Imbuto zitandukanye turazirya, kuko imbuto zitugirira umumaro mwinshi cyane, iyo uriye imbuto harimo inanasi, hakaza imineke n'izindi zitandukanye; byatuma ugira ubuzima bwiza kandi turazikunda cyane.